Abakora akazi ko gutanga amayinite ndetse kubikura no kubitsa amafaranga bakorera ikigo cy'itumanaho cya MTN, ni bamwe mu bishimira akazi bakora dore ko ngo bakuramo umusaruro ushimishije.

Abayobozi b'amabanki ndetse n'amakoperative bahuriye hamwe, baganura umusaruro w'ibigori dore ko bishimiraga ko iyo mbuto y'ibigori bari bahinze yari yeze cyane.

Abakora ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye harimo inyanya, imyenda ndetse n'ibindi, ni bamwe mu basabwa kujya bagira aho bakorera mu rwego rwo kwirinda ubucuruzi bw'akajagari.

Inyubako z'amakoperative cyane cyane akora ubuhinzi bw'ibigori, zigomba kuba zitwikiriye neza kugira ngo umusaruro utangirika kubera kunyagirwa n'imvura.

ZAmakoperative ndetse n'amabanki ni bimwe mu bigo bikorana bya hafi n'abahinzi, aborozi barashishikarizwa kwibumbira mu matsinda ndetse n'amakoperative kugira ngo biteze imbere.

Abayobozi ba banki ndetse n'abayobozi b'amakoperative, ni bamwe mu bahuriye mu nama mu rwego rwo kwiga ku buryo bafatanya, aho banki ya ect yakanguriye abaturage kuyigana ndetse bakayifunguzamo amakonnti.

Amadini ndetse n'insengero, ni amwe mu yaka amaturo abakirisitu ndetse n'abandi babagana kugira ngo bakemure ibibazo bimwe na bimwe, harimo gufasha abatishoboye baba basengana ndetse no kubaka ibikorwa bifitiye urusengero akamaro.

Abakozi bakora amahoteli ndetse n'amaresitora barasabwa kujya batanga serivisi nziza, yaba ku baturuka hanze cyangwa se abaturage bo mu gihugu imbere.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro ni bamwe mu bashakira amafaranga mu bintu bigiye bitandukanye harimo nko gucuruza ibikomoka ku buhinzi nk'ibijumba, imyumbati ndetse n'ibindi.

Akazi ko gutwara abagenzi ku mapikipiki, ni kamwe mu kazi gatanga umusaruro ushimishije, dore ko abagakora bavuga ko bakuramo amafaranga yo kwifashisha mu bibazo bitandukanye, harimo nko kurihirira abana amashuri, kubaka inzu ndetse n'ibindi.

Abakora akazi ko gutwara abantu ku mapikipiki mu buryo rusange, barashishikarizwa kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse bakanakoresha umuhanda neza, mu rwego rwo kwirinda impanuka.